Inama ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bibera mu mazu meza kandi asukuye, aho abayobozi bateranira bari kuganira ku bibazo ndetse banatanga ibitekerezo byateza imbere igihugu cyacu, bakaba bifashishisha mudasobwa zigiye zitandukanye ndetse n'irindi koranabuhanga.

Inama ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye ni bimwe mu bitangirwamo ibitekerezo by'uburyo bateza imbere igihugu, aho abayobozi ndetse n'abandi batandukanye biga ku byateza imbere igihugu ndetse n'umuturage muri rusange.

Inzu iri kuberamo inama ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye iyo nama ikaba iri kuba hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse na za mudasobwa ikaba irimo abantu bagiye batandukanye yaba Abanyarwanda ndetse n'abaturutse hanze y'u Rwanda.

Inama ndetse n'ibindi biganiro ni bimwe mu biteza imbere igihugu cyacu, aho buri muturage abasha kujya agatanga igitekerezo ndetse n'icyifuzo cye ufite ikibazo bakabasha kugikemura cyangwa kitabasha gukemukirwa aho ngaho akazahabwa ubutabera, yitabirwa n'abantu b'ingeri zose yaba abadamu abagabo abasore ndetse n'abandi bagiye batandukanye.

Inama yitorebiriwe n'abantu batandukanye aho irimo umugabo umwe ndetse n'abagore batatu, bakaba bicaye ku meza iriho igitambaro cy'umweru ndetse n'intebe z'umutuku, hakaba hari umugore uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi mu ntoki bigaragara nk'aho ari gutanga ikiganiro.

Inama ndetse n'ibindi biganiro bikunze kubera ahantu hakeye kandi bikitabirwa n'abantu b'ingeri zose, aho nk'aha ngaha birikubera mu nzu isize amarangi meza y'umweru ndetse harimo n'intebe z'umukara, ikaba yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amazi banywa bari muri ibyo biganiro.

Inama ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye ni hamwe mu hatangirwa ibitekerezo bigiye bitandukanye. Aho haza abantu b'ingeri zose abadamu, abagabo, abasore ndetse n'abakobwa. Bakaba bifashisha ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikoresho nka mudasobwa.

Inama ndetse n'ibindi biganiro byitabirwa n'abantu b'ingeri zose, yaba abagabo ndetse n'abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bibera mu nzu zitandukanye zishinzwe kwakira ibiganiro ndetse n'izindi nama.

Ibindi biganiro nimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu, aho buri muturage yahawe ijambo yaba umugore wari warimwe ijambo ndetse n'umugabo akabasha gutanga ibitekerezo mu nama.

Iki ni ikigo gishinzwe ibigo bito ndetse n'iby'abikorera. Aho ujyana umushinga wawe muri iki kigo hanyuma ukabasha kwemerwa, ugaterwa inkunga ndetse ukaba uwo mushinga wawe wanasaba inguzanyo mu bigo bigiye bitandukanye n'amabanki.

Ipoto rirerire iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, rikaba ari ipoto ryifashishwa mu gutanga interneti, aho waryifashisha ujya ku mbuga nkoranyambaga ndetse ukoresha mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe.

Ikigo gishinzwe ingendo cya RURA cyashyizeho uburyo bwinshi wa kwifashisha uri mu ngendo aho yongereye imodoka mu muhanda ndetse ikanagabanya ibiciro by'ingendo uva mu gace kamwe byo mu kandi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro cya Rwanda Revenue Authority, aho gishishikariza abaturage kwigaragaza ku bushake, aho utanga umusoro ku nyungu, ndetse ukanishyura umusoro ku gihe.

Ipoto ishinzwe gukwirakwiza insinga z'amashanyarazi, akaba ari ipoto ishinzwe kujyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage, mu bigo by'abikorera mu bigo bya leta ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Iri ni isiganwa ry'umukino w'amagare, akaba ari umukino ugezweho mu gihugu cy'u Rwanda aho abitabira uwo umukino baturuka mu bihugu byo hirya no hino ku isi ndetse n'ibindi bigo bikomeye bigatera inkunga uwo mukino w'amagare.

Uburyo bwo gukwirakwiza interineti cyangwa kuri murandasi, aho buri muturage cyangwa buri gace kagiye kegerezwa uburyo bugezweho bw'iminara miremire wakwifashisha uri kuri murandasi, yaba uri gukoresha telefone cyangwa mudasobwa.

Irembo ni ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gikorera kuri murandasi, aho wakwaka serivise zigiye zitandukanye nko kubaruza ubutaka, kwaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Hashyizweho amazu menshi mu bice byo hirya no hino mu gihugu atanga serivisi zijyanye na gahunda za leta aho harimo na serivisi z'irembo, serivisi za RURA, serivisi za RDB, ndetse na serivisi za Rwanda Revenue Authoritiy.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authoritie, gishishikariza abaturage kwaka inyemezabuguzi mu gihe bagize igicuruzwa bagura ndetse bakanashishikariza abacuruzi gutanga inyemezabwishyu mu gihe hari igicuruzwa bagurishije, ariho batanga umusanzu wo kubaka igihugu cyacu.

Ikigo cy’igihugu gishinzwe imisoro n’amahoro cya Rwanda revenue authority gishishikariza abaturage bose gutanga imisoro, yaba uri umucuruzi cyangwa umuguzi. Mu gihe ugize igicuruzwa cyose ugura ukabasha kwaka inyemezabwishyu ndetse no mu gihe ugize icyo ugurisha uri umucuruzi, ukabasha gutanga inyemezabwishyu kuko uba wiyubakiye igihugu cyawe.

Itangazo rikangurira abantu uburyo bwo kwirinda kovide. Aho wirinda gusuhuzanya ndetse ukambara n'agapfukamunwa. Igihe ugiye kwishyura, ukishyura ukoresheje uburyo bugezweho wishyuye ukoresheje telefone ndetse n'igihe ugiye kwinjira mu modoka, ukabanza gukaraba intoki, igihe uri ahantu hari abantu benshi, ugashyiramo intera ya metero.

Aho batangira serivisi zigiye zitandukanye, yaba serivisi zijyanye n'irembo, yaba serivisi zijyanye no kuri banki, kubitsa ndetse no kubikura amafaranga, aho wakaka serivisi zijyanye n'irembo, yaba kwiyandikisha ku ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ndetse n'izindi serivisi zijyanye na gahunda ya leta.

Ikigo cy'lgihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authority, aho kimenyesha abacuruzi itariki ntarengwa n'umunsi wo kwishyura umusoro, aho gishishikariza abaturage yaba umucuruzi ndetse n'umuguzi, mu gihe umuguzi yatse ibicuruzwa akibuka kwaka inyemezabwishyu, bikanashishikariza buri mugurisha, gutanga inyemezabwishyu mu gihe hari icyo agurishije.

Hariho uburyo bwinshi wamenyekanisha umusoro wawe, ukoresheje terefone ngendanwa cyangwa mudasobwa. Aho ukanda akanyenyeri magana inane urwego, warangiza ugakurikiza amabwiriza. Aho ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro gishishikariza abaturage gutanga umusoro ku nyungu. Aho baba biyubakiye igihugu cyabo.

Igihugu cy'u Rwanda cyashyizeho uburyo bwo kwamamaza ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bidukikije, binyuze mu mikino. Aho byagiye bishyira amafaranga mu makipe agiye atandukanye yo mu bihugu byo hanze, ndetse aho twavugamo nka Bayeri Minice, Arisenare ndetse n'ibindi n'andi makipe agiye atandukanye nka za Pari se njerime.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, aya mapoto akaba anyuzwaho insinga ndetse akaba n'isoko y'umuriro w'amashanyarazi, aho uwo muriro w'amashanyarazi wifashishwa mu kumurikira abaturage ndetse no ku mihanda ku matara

Ipoto rishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ku mihanda, mu ngo z'abaturage ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho buri muturage ashishikarizwa kuba afite umuriro wo mu rugo umumurikira.

Ipoto ry'amashanyarazi rishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye yaba mu nganda, ku matara yo ku mihanda, ndetse no mu bindi bikorwaremezo bigiye bitandukanye.

Imihanda ndetse n'amapoto y'amashanyarazi, ni bimwe mu bikorwa remezo biranga igihugu cyacu, aho buri muturage ashishikarizwa kuba afite umuriro iwe ndetse no kuri buri muhanda hakaba hari amatara uwumurikira, uwo muhanda ukaba wakifashishwa no mu gihe cya nijoro.

Ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'amapoto y'insinga ashinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu ngo z'abaturage ni kimwe mu bigize iterambere ry'Igihugu cyacu, aho buri muturage ubu ngubu kuri mirongo cyenda ku ijana afite umuriro mu rugo iwe.

Ibikorwa remezo harimo amapoto y'amashanyarazi ndetse n'imodoka zifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange ni kimwe mu bikorwa remezo byiza biri mu gihugu cyacu aho dusangamo kuri buri muturage aba yemerewe umuriro ndetse akaba anemerewe kuva mu gace kamwe ajya mu kandi.

Ibikorwa remezo by'imwe mu biteza imbere igihugu cyacu, twavugamo amapoto y'amashanyarazi kuko amashanyarazi hegejwe abaturage aho waba uherereye hose yaba ari mu cyaro cyangwa se mu mujyi,

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi akaba ari ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage ndetse no mu bindi bigo bigiye bitandukanye, aho bitanga umubare ku kigero cyo hejuru kandi ufite ingufu nyinshi.

Ahatunganyirizwa umuriro w'amashanyarazi. Aho ari umuriro ukwirakwizwa mu ngo z'abaturage ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye yaba ku matara yo ku mihanda, mu bigo by'abikorera ndetse no mu nganda. Akaba ari umuriro ufite imbaraga, ukaba wifashishwa mu kumurikira abaturage ndetse no mu bindi bikorwa.

Ibikorwaremezo harimo amapoto y'amashanyarazi ni kimwe mu biteza imbere igihugu cyacu, aho hashyizweho uburyo bwo gukwirakwiza umuriro mu ngo z'abantu ndetse no mu bindi bigo by'abikorera hifashishijwe insinga zabugenewe.

Ibikorwaremezo harimo nk'amafoto y'insinga ashinzwe gukwirakwiza umuriro mu baturage ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ndetse n'amatara yo ku muhanda, hirya yaho hakaba hari ibidukikije byinshi harimo nk'amashyamba ndetse n'amazu y'abaturage.

Umuhanda aho hirya y'umuhanda hari amazu y'abaturage akorwarwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ndetse imbere y'ayo mazu hakaba hari amapoto y'amashanyarazi, ashinzwe kujyana umuriro mu baturanye ndetse n'amapoto y'amatara amurikira umuhanda ndetse n'abaturage.

Urugomero rw'amashanyarazi aho rutanga ingufu nyinshi zohereza umuriro w'amashanyarazi mu baturage cyangwa se mu nganda cyangwa se ku matara yo ku mihanda n'ahandi hagiye hatandukanye hakenerwa umuriro w'amashanyarazi, yaba mu mavuriro, mu mashuri ndetse no mu bindi bikorwaremezo bigiye bitandukanye.

Ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'ibindi bidukikije bigiye bitandukanye ni bimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho nk'imihanda twavugamo byorohezanyije ubuhahirane hagati y'abaturage buva mu gace kamwe ujya mu kandi.

Imodoka zikoreshwa mu bigo nderabuzima amavuriro ndetse n'ibitaro, zikaba ari imodoka zifashishwa mu gutwara abarwayi zibavana mu bitaro biciriritse zibajyana mu bitaro bikomeye, aho haba harimo abaganga ndetse n'imiti bifashisha bavura abo barwayi.

Inzu itangirwamo serivise zigiye zitandukanye, yaba iz'ubuvuzi ndetse n'izindi serivise abaturage bakenera, akaba ari inzu nini ihurirwamo n'abaturage benshi.

Ibitaro ndetse n'amavuriro ni bimwe mu byegerejwe abaturage, aho buri muturage ahabwa serivisi akeneye kandi byihuse, aho nta muturage ukirembera mu rugo, aho muri buri karere hari ibitaro ndetse n'amavuriro matoya agiciriritse.

Ibitaro, amavuriro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ni bimwe mu bikorwa remezo byubatswe na leta y'igihugu cyacu, aho buri muturage atarembera mu rugo aho ashyikirizwa ibitaro akabasha kuvurwa cyangwa agahabwa izindi serivise zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi.

Imbere yanjye ndahabona ubusitani, ibiti by'imikindo, amatara ku muhanda, amazu atangirwamo serivise zigiye zitandukanye, ndetse n'umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodokari, amamoto, ndetse n'urujya rw'uruza rw'abantu.

Umucamanza akaba ari umwe mu bashinzwe amategeko, aAkaba yambaye ikanzu y'umukara irimo utuntu tw'umweru, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hakaba hahagaze hakaba hari ibendera ry'Igihugu.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bishinzwe imfungwa n'abagororwa. Aho umuturage yakoze icyaha akurikiranwa akabasha kujyana gufungwa maze icyo gihe igihano cyarangira akazafungurwa akazataha iwe mu rugo.

Umugabo munini wirabura, akaba yambaye ikanzu y'umutuku, irimo amabara y'umweru, bikaba bigaragara ko ari umugabo ushinzwe ibijyanye n'amategeko, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'izindi manza zigiye zitandukanye.

Umudamu wicaye ku meza imbere ye hateretse ibinyobwa bitandukanye hakaba harimo ikinyobwa cy'amazi ndetse n'ikinyobwa cy'umutobe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'imbere hakaba harimo undi mwenda w'umweru.

Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, akaba ari gutanga ikiganiro mu nama, aho yambaye kositimu ndetse na karuvati, akaba ahagaze iruhande rw'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyo mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abagororwa bane bicaye ku ntebe. Imbere yabo hakaba hahagaze umucamanza wambaye ikanzu y'umukara iri mu tuntu tw'umweru. Bakaba baje kwaka ubutabera aho baburana ku byaha bakoze cyangwa se nabo bakaza guhabwa ubutabera.

Umwuga w'ubucamanza ni umwuga utunze abantu benshi bakora uwo mwuga, aho uyu mucamanza ari kurahira afashe ku ibendera ry'igihugu, aho yambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umweru n'umukara ndetse n'ingofero.

Igororero rigorerwamo abagororwa bagiye batandukanye harimo abagabo bambaye imyenda y'iroza ndetse inyuma yabo hari umuseriviye ubarinda, akaba ari igororero ryubakishije amatafari ryatangiye gukora mu gihumbi kimwe maganacyenda na mirongo itatu.

Inkiko gacaca ubu ni uburyo abayobozi ndetse n'abaturage begeranaga hanyuma umuturage wakoze icyaha ndetse n'uwagikorewe bakabasha kuza bakabunga bakoresheje inkiko gacaca, uwakoze icyaha agahabwa igihano ndetse n'uwakorewe icyaha agahabwa ingurane.

Imfungwa n'abagororwa bakaba bahagaze ahantu hamwe, bakaba bari kurahira aho bari kuvuga indahiro imwe.

Umugore mwiza cyane ufite imisatsi ya menshi wambaye ikanzu y'umutuku, umukara ndetse n'ubururu akaba bigaragara yuko ari umubare w'umucamanza ushinzwe amategeko mu Rwanda.

Imodoka nini ya polisi y'u Rwanda akaba ari imodoka yifashishwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro, iyo nkongi y'umuriro ikaba yaba yabaye ahantu ku mazu manini cyane ndetse n'ahandi hatandukanye.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kikaba ari igikoresho gifite umugozi muremure kikaba kifashishwa ku mazu manini ahantu habaye inkongi z'umuriro ndetse bakaba gishyira ahantu hahurira abantu benshi nko ku mashuri, mu bitaro ndetse no ku zindi nyubako ndende.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha cya ribu aho umuturage anyuzwa akabasha guhabwa ubutabera ndetse n'uwakoze icyaha akaba ariho anyura agiye kuburana kikaba ari icyapa giheherereye i nyamirambo mu mujyi wa kigali.

Inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi biganiro, akaba ari inzu iberamo ibiganiro by'abayobozi b'igihugu cyacu yaba abadepite ndetse n'abandi bagize guverinoma y'igihugu cyacu, aho harimo abantu bari mu nzego zigiye zitandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo .

umukandida w'ishyaka rya Efuperi inkotanyi akaba ari nyakubahwa perezida Paul Kagame aha ngaha akaba ari mu bikorwa byo kwiyamamaza aho azenguruka uturere tw'igihugu yegera abaturage akababwira ibyo azabagezaho nabo bakagira ibyo bamusaba aho hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye bafite n'ibyapa biriho amafoto ye

Umuntu uri kuvugira ku ndangururamajwi wambaye ikote ry'ubururu, ipantaro y'ubururu, inkweto za congo ndetse n'umupira w'umweru. Inyuma ye hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe.

Abayobozi bicaye mu nama akaba ari umugore n'umugabo, aho bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'indangururamajwi. Hakaba hateretse n'ubupipiri bw'amazi bifashisha bari mu nama.

Harimo abagabo, abagore, abasore, abasaza ndetse n'abakecuru bakaba bafite impapuro mu ntoki zabo aho harimo umukandada wiyamamariza kuba perezida w'igihugu akaba ari umukandida wigenga mpahimana philippe.

Umukandida wigenga, wiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Akaba ari umukandida witwa Mpayimana Phillipe. Aho agenda abwira imigabo n'imigambi ye abaturage bagize igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umukandida uri kwiyamamariza kuba perezida, akaba ari umukandida w'ishyaka ryigenga. Akaba ari MUHAYIMANA philippe. Akaba ari mu gikorwa cy'amatora, aho azana ijwi rye akarishyira mu isanduku Y'itora.

Imodoka zikoreshwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, zikaba ziherereye ahantu mu mujyi aho hari n'urujya n'uruza rw'abantu, akaba ari ku masaha ya n'ijoro aho hari n'amatara ku mihanda amurikiza imodokari ndetse n'abanyamaguru.

Imihanda ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu muri rusange ni bimwe mu bikorwa remezo byorohereza abaturage mu buhahirane, aho ubu abaturage batakivunika bagenda n'amaguru aho haje ibinyabiziga bibatwara mu buryo bwa rusange.

Umumotari uhetse umugenzi, bambaye kasike z'ubururu, inyuma yabo hakaba hari ibikorwaremezo bitandukanye harimo nk'amazu, amapoto yo ku mihanda, amatara y'amashanyarazi, ndetse n'ibindi. Hakaba hari n'ibindi bidukikije bitandukanye harimo nk'ibiti ndetse n'amashyamba.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi, zibavana mu gace kamwe, zibajyana mu kandi. Hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu muri iyo gare, aho baje gutega izo modokari. Hakaba hari n'abakozi bakorera ibigo by'ayo makampani, ashinzwe gutwara abantu, abavana mu gace kamwe abajyana mu kandi.

Ibikorwa remezo harimo nk'imihanda, ni kimwe mu biteza imbere igihugu cyacu, aho byorohereje ubuhahirane hagati mu baturage ndetse bikanakemura ingendo umuntu ava mu gace kamwe ajya mu kandi, aho ibinyabiziga byabaye byinshi mu muhanda ndetse hakaba hari n'amatara ku muhanda wakwifashisha ugenda n'ijoro.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, akaba ari imodoka zigezweho zitwara abagenzi benshi zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, akaba ari imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo hirya yaho hari ibiti byinshi cyane.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, amagare. imodoka nini zifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka, imodoka zifashishwa mu gutwara ibicuruzwa by'imbere mu gihugu ndetse n'izitwara abantu muri rusange ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo.

Umuhanda nyabagendwa urimo umumotari uri kuri moto wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ubururu, inyuma ye hakaba hari undi muntu uri gusunika ingorofani mu ntoki, wambaye badaboda z'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda munini cyane ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka nini itwara abagenzi muri rusange, hakaba imbere yayo hari umumotari uhetse umugenzi, inyuma y'imodokari nini itwara abagenzi muri rusange hakaba hari amatara ndetse n'ubusitani n'ibyapa bigiye bitandukanye byo ku muhanda.

Imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo zikaba ari imodoka zitwara imizigo iremereye ndetse n'indi mizigo igiye itandukanye hakaba hari imodoka ziparitse ku muhanda iruhande rw'amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, hirya y'umuhanda hakaba hari ibidukikije byinshi harimo ibiti ndetse n'ubusitani. Hakaba hari n'ibindi bikorwaremezo harimo amatara yo ku mihanda, muri uwo muhanda hakaba harimo ibinyabiziga nka moto, ndetse n'imodokari.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse kuruwo muhanda hakaba hari n'umuntu uri gukora amasuku, uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'ibyifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange.

Imodoka zifashwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, zikaba ari imodoka zifashishwa mu gutwara abantu zibavana mu gace kamwe ndetse zibajyana mu kandi, zikaba ari imodoka zitajyamo abantu benshi cyane aho wayikodesha uri umwe cyangwa se ukayikodesha uri kumwe n'umuryango wawe.

Ibyapa byo ku muhanda biyobora abayobozi b'imodokari ndetse n'ibyapa byamamaza ni bimwe mu bigaragara mu gihugu cyacu ,hamwe nk' ikicyapa kiyobora abatwara ibinyabiziga gifite umuzenguruko w'umweru ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru kikaba kigaragaza aho waparika ikinyabiziga cyawe mu gihe ugiye gushyiramo abagenzi cyangwa igihe ugiye kuruhuka.

Umuhanda numwe mu bikorwa remezo biteza imbere igihugu cyacu. aho usanga ubusitani, amatara yo ku mihanda ndetse n'urujya n'uruza rw'abanyamaguru ndetse n'urw'ibinyabiziga aho buri muturage abasha guhahirana.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye yaba iby'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibyifashishwa mu gutwara imizigo hakaba harimo n'umumotari uhetse umugenzi wambaye cask y'umuhondo hirya y'umuhanda hakaba hari ibidukikije byinshi yaba ibiti ndetse n'ubusitani.

Ikibuga cy'umupira cyifashishwa mu gukora siporo cyangwa no kugorora umubiri, aho ar’ikibuga cyubatse neza giteyeho ubusitani, ndetse hirya y'icyo kibuga hakaba hateye ibidukikije bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu bari gukina umupira w'amaguru.

Ibikorwa remezo nk'imihanda ndetse n'ibindi bidukikije, ni bimwe mu bigize iterambere ryacu ry'igihugu cy'u Rwanda, aho hashyizweho uburyo bwo gutera ubusitani ku mihanda ndetse no kubungabunga ibiti biterwa ku mihanda.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ishusho ya mande enye kikaba ari icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango cy'umukara kikaba ari icyapa kigaragaza ko aho hemerewe kunyura ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga, kikaba gifite ishusho y'uruziga umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza ko umuvuduko ntarengwa ari kilometero mirongo itandatu mu isaha.

Icyapa giherereye mu mijyi wa Kigali, kikaba ari icyapa gifite nomero ijana na mirongo inani na gatanu. Inyuma yayo hakaba hari ibikorwaremezo bigiye bitandukanye harimo nk'amazu ndetse n'ibindi bidukikije bigiye bitandukanye.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango bitatu, harimo ikirango cy'umutuku cyerekana ko imodoka igomba guhagarara abanyamaguru bakagenda, hakaba hari ikirango cy'umuhondo cyerekana ko imodoka yitegura kugenda, hakaba hari n'ikirango cy'icyatsi kigaragaza ko imodoka igenda.

Icyapa cyo ku muhanda kirimo ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku w'ubuso bw'umweru ndetse no mu kirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza umuhanda ukomeza imbere ndetse ufite undi muhanda ku ruhande uwushamikiyeho.

Icyapa cyo ku muhanda kikaba ari icyapa kibuza gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza ko aho nta kinyabiziga cyemerewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange cyemerewe kuhaparika.

Icyapa cyo ku muhanda giteyeye mu busitani, haruguru y'icyapa hakaba hari inzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, icyo cyapa kikaba ari ikiranga kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku w'ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba kigaragaza inkomane abanyamaguru banyuramo bambuka umuhanda.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho ya mpande enye, kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'icyarango cy'umukara. Kikaba ari icyapa kigaragaza aho gukata ari ibumoso gusa.

Icyapa cyo ku muhanda kibuza. Kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango cy'umukara. Mw'icyo kirango hakaba handitsemo makumyabiri. Bigaragaza ko umuvuduko ntarengwa, ari kilometero makumyabiri ku isaha.

Ibikorwa remezo ni kimwe mu bigize igihugu cyacu, twavugamo nk'inganda ndetse n'imihanda, aho inganda zashyizwe mu gice kimwe zikaba zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi ndetse n'ukomoka ku mata.

Inzu nini ikoreramo ikigo gishinzwe kubika amafaranga y'abaturage, aho umuturage yizigamira, ndetse akaba yanasaba inguzanyo, ku ruhande rwayo hakaba hari ibidukikije ndetse n'ibindi bikorwa remezo byinshi.

Ibikorwa remezo nk'imihanda ni bimwe bigize iterambere ry'igihugu cyacu, aho byorohereza abaturage mu buhahirane cyangwa mu zindi ngendo zo kuva mu gace kamwe ujya mu kandi.

Nini ikorerwamo ubucuruzi bugiye gutandukanye, akaba ari inzu yubatswe mu buryo bugezweho, aho hasi hakorerwa ubucuruzi, hakaba hacururizwamo ibindi biribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, ndetse hakaba harimo n'amacumbi, imbere y'iyo nzu hakaba hari parikingi nini waparikamo imodoka yawe.

Mu rwanda hashyizweho uburyo bwo kubungabunga ibidukikije, aho abaturage bashishikarizwa gutera amashyamba ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka aho batera imbuto zigezweho ndetse n'ibindi biti birwanya amasuri.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, akaba ari inzu ifite ibyumba byo kuraramo, bifite ubwogero mu nzu, dushe ndetse na tuwarete. Aho uzana n'uwawe mukararamo yaba ari inshuti cyangwa umuntu ku giti cye.

Umuhanda munini cyane, hirya y'umuhanda hari amazu y'abaturage, ubusitani, ibiti, ndetse n'ibindi bitandukanye. Akaba ari umuhanda wa kaburimbo, ufite n'utuyira tw'abanyamaguru ku ruhande.

Isoko riherereye mu mujyi wa Kigali igiporoso. Rikaba ari isoko ririmo abantu bagiye batandukanye ndetse ku ruhande hakaba haparitse ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi. Yaba moto ndetse n'imodokari. Hakaba hari n'ibindi bikorwa remezo harimo amatara, imihanda ndetse n'ibidukikije ku ruhande.

Inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho. Akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, iteye amarangi y'umweru ndetse n'andi marange y'ubwoko bwinshi. Ikaba ifite ibirahure ndetse n'inzugi by'ubwoko bwiza kandi bikomeye.

Ifite bice bibiri akaba ari umuhanda akaba iri ku masaha ya n'ijoro aho hari ibikorwaremezo nk'amatara, amazu, ubusitani, ndetse n'ibindi byinshi. Aho guverinoma y'u Rwanda yashyize imbere kumurikira imihanda myinshi mu turere twinshi tugize igihugu cyacu.

Ibikorwaremezo nk'imihanda ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ni bimwe mu biteza imbere iterambere ry'igihugu cyacu, aho ku mihanda hashyizwe amatara ndetse na buri muturage akabasha kwegerezwa umuriro w'amashanyarazi.

Imihanda ndetse n'ibidukikije ni bimwe mu byitabwaho na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bashishikariza abaturage kutangiza ibidukikije bakoresha amashashi ndetse n'uducupa, aho byangiza ibidukikije harimo nk'amashyamba ndetse n'ibindi binyabuzima muri rusange.

Umuhanda munini, akaba ari ku masaha ya nijoro. Aho harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Gusa nubwo ari ku masaha ya nijoro, hari amatara amurikira uwo muhanda ndetse n'ibindi bidukikije harimo nk'amashyamba ndetse n'ubusitani byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga byinshi. Hakaba harimo umunyonzi utwaye igare; ndetse uwo muhanda ukaba wifashishwa mu buryo bw'ubuhahirane mu baturage. Aho byoherezanya kuva mu gace kamwe umujya mu kandi, ndetse uwo muhanda ukaba uriho n'ibidukikije byinshi, harimo ibiti, amashyamba, ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ukoreshwa n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, akaba ari umuhanda urimo umumotari ndetse n'umunyonzi ku igare, hirya yabo hakaba hari ahantu mu kibuga haparikamo imodoka nini cyane ndetse hirya y'izo modokari hakaba hateye ubusitani.

Umuhanda ufite ibice bibiri, urimo imodokari nini yifashishwa mu gutwara imizigo, uwo muhanda ukaba ushushanyijemo n'amarangi y'umuhondo ndetse ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ahateye ubusitani.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukikijwe n'ibidukikije byinshi harimo ibiti, ubusitani ndetse n'indabo, kandi kuri uwo muhanda hakaba hari ibindi bikorwaremezo nk'amatara ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru.

Urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodokari ndetse n'amagare, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari ibidukikije, harimo nk'ibiti, amazu ndetse n'ibindi byinshi.

Imihanda, ikaba ari imihanda ibiri ndetse n'indi mihanda myinshi, aho hateye ubusitani ndetse n'ibiti ndetse kuri uwo muhanda hakaba hari n'ibyapa biyobora abayobozi b'ibinyabiziga.

Umuhanda uriho ibidukikije binyuranye, hariho amapoto y'amashanyarazi insinga z'amashanyarazi amazu y'abaturage ndetse n'ibindi bidukikije byinshi harimo ubusitani ndetse n'amashyamba n'ibiti byo ku mihanda.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'imodokari, uwo muhanda ukaba ufite rompuwe kandi kuri uwo muhanda hakaba hariho n'amatara. Hirya y'umuhanda hakaba hari ibikorwaremezo byinshi, ndetse n'ibindi bidukije bigiye bitandukanye harimo nk'amashyamba.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, kandi uwo muhanda kuruhande ukaba ukikijwe n'ibidukikije byinshi, harimo amashyamba ibiti byo ku ku muhanda, ndetse n'ubusitani butandukanye, uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodokari.

Umuhanda munini urombereje w'ibice byinshi. Ukaba ukikijwe n'ibidukikije byinshi ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Muri ibyo bikorwa remezo, hakaba harimo amatara yo ku mihanda, ibyapa biyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'ubusitani n'ibiti.